Icyumba cyiza gikorerwamo ubucuruzi, harimo amatara amurika ndetse n'imyenda igurishwa, higanjemo imyenda y'abagore ndetse n'abamama.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, harimo fanta ndetse n'amafu, kirimo abagore babiri, umwe muri bo yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Inzu y'ubucuruzi isizwe irangi ry'icyatsi, imbere yayo hari abantu batatu, harimo umugore ukenyeye igitenge.

Icyumba cyijimye gikorerwamo ubucuruzi kirimo imyenda itandukanye, higanjemo imipira n'amakoti, harimo umwenda w'umweru wanditsweho mu magambo y'umukara.

Inzu nziza igeretse isizwe irangi ry'umweru, imbere yayo hari amamodoka ndetse n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, iparitswemo ibinyabiziga bine byifashishwa mu gutwara abagenzi, inyuma yabyo hari inzu ndetse n'ibiti byinshi.

Inzu nziza igeretse imbere yayo hari amamodoka n'abagabo babiri, harimo umwe wambaye amarinete ndetse n'inkweto z'umukara.

Imeza iriho ibiceri bibiri by'amafaranga rikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda giherereye ku mugabane w'Afurika ndetse giteye imbere.

Inoti y'amafaranga igihumbi, iriho imisozi miremire ndetse n'ibiti, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda giherereye ku mugabane w' Afurika kandi giteye imbere.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite umuryango uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amakaro y'umweru. Harimo ibijerekani bigerekeranye ndetse na firigo.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'ubururu bwijimye, kiriho ikiganza gifite telefone igaragaza uko wakwishyura amafaranga ukoresheje momo peyi.

Urupapuro rw'umweru rugaragaza uko amafaranga yakoreshejwe mu ruganda kuva tariki ya mbere z'ukwambere bibiri na makumyabiri na rimwe kugeza tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe.

Inoti y'amafaranga magana atanu, ikoreshwa ku mugabane w'i Burayi, iriho inzu igeretse ndetse n'umuzenguruko w'inyenyeri zigizwe n'ibara ry'umutuku.

Inoti y'amafaranga magana abiri, iriho umusaza ufite akamwenyu mu maso, wambaye amarineti, ikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde.

Intoki z'umuzungu ziri kubara amafaranga, higanjemo amayero akoreshwa ku mugabane w'i Burayi ndetse no mu bindi bihugu biteye imbere.

Intoki zirabara amafaranga menshi cyane. Amafaranga yifashishwa mu gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Harimo nko kugura ibiribwa.

Inzu y'ubucuruzi igizwe n'amabara y'umweru n'umuhondo itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, hariho icyapa kigaragaza ko hakorerwa ivunja ry'amafaranga.

Inzu yubakishijwe amabati, ifite amadirishya y'imbaho, imbere yayo hari imbuga irimo ibikoresho byo mu rugo, harimo akabati, intebe, ameza. Akabati ni ingirakamaro kubera ko kifashishwa mu kubika ibikoresho.

Imbuga nini igizwe n'ibyatsi. Irimo intebe nyinshi zitandukanye. Higanjemo izifite ibara ry'umukara ndetse hari ameza abiri mato.

Inzu nziza igizwe n'urugi rw'umutuku ifite parafo, imbere yayo hari umusore ukora akazi k'ububaji ndetse n'intebe zigiye zitandukanye.

Inzu nziza yo guturamo, igeretse kabiri, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari igiti cy'amashami maremare, ndetse n'intebe zo kwicaramo.

Icyumba kinini kirimo amarido meza, intebe zigezweho, imeza iriho imbuto, ndetse n'ibirahuri bibiri birimo amazi.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru kirimo urumuri hasi hari tapi y'umutuku kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza maremare.

Inzu nziza yanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura ubwishingizi ,ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'inkingi zisizwe irangi ry'umuhondo. Ubwishingizi ni ingirakamaro kuberako bufasha abaturage gutegura ejo hazaza habo.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru, cyicayemo abantu benshi higanjemo abagore, imbere yabo hari amacupa arimo amazi.

Icyumba kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo abantu batatu: Umugabo n'umugore bahagaze ndetse n'umusore wicaye. Imbere ye hari mudasobwa.

Icyapa kiriho abantu batatu. Hariho umugabo wambaye karuvati y'umutuku ndetse n'ishati y'ubururu, uri guseka.

Inzu nziza y'ubucuruzi, igeretse, ifite amabara y'umutuku n'umuhondo, imbere yayo, hari urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abari kuri moto, zifashishwa mu gutwara abagenzi.

Isoko ry'imboga ririmo urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abacuruzi n'abaguzi, harimo umugore wambaye umupira w'umweru ndetse ufite agakapu k'umukara.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite n'inzugi nini zitarimo ibirahure. Imbere yayo hari abantu batandukanye higanjemo abashinzwe umutekano.

Inzu nziza y'ubucuruzi iteye irangi ry'umuhondo ifite ibirango by'ubucuruzi imbere yayo hari igiti urujya n'uruza rw'abana n'ibinyabiziga ndetse n'umuhanda w'umukara ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave .

Muri iki gihe ibintu byaroroshye, ushobora kuba wibereye iwawe ugatumiza ibiribwa bitandukanye nk'inyama ndetse n'ibindi bakabikugezaho aho waba uri hose. Hari imodoka zibishinzwe urahamagara ukavuga aho uri ukabarangira neza bakabikuzanira ibi byoroheje ibintu byinshi.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi bw'imitako harimo umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Umujyi urimo amazu meza, higanjemo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku.

Akazu gato gatangirwamo serivisi za MTN kari mu ibara ry'umuhondo, kanditsweho amagambo mu mabara y'umutuku n'umukara, kariho umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba gisizwe irange ry'umweru kirimo urumuri, hicaye umugore uri gukoresha mudasobwa wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amarinete.

Icyapa kiriho abagore batatu, harimo ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikote ry'umukara, cyanditsweho amagambo mu ibara ry'umukara, agaragaza kugura itike ukoresheje ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho umugore w'inzobe ufite umusatsi w'umukara wicaye ku buriri, ufite terefone mu ntoki ze ndetse yambaye na ekuteri.

Mu mujyi wa Kigali i Remera hari inzu itararangiye kubakwa, wayikodesha ibyumba bibiri ku bihumbi magana atandatu buri kwezi, ni nziza, igizwe n'irangi ry'mweru.

I Kigali mu Rwanda, hari inzu igurishwa miliyoni magana abiri mirongo ine, ifite imbuga irimo amapave kandi igeretse ifite amabati y'umutuku.

Mu mujyi wa Kigali i Kanombe, hari inzu nziza igizwe n'amabati y'umutuku, amadirishya manini, afite ibirahuri by'umukara, ndetse n'imbuga nini, ishobora guparikwamo amamodoka abiri.

Mu Mujyi wa Kigali, i Kanombe, hari inzu nziza ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ku kwezi, ifite ikibuga kinini cyubakishijwe amapave.

Mu mujyi wa Kigali i Kanombe hari inzu nziza isizwe irange ry'umweru, ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi, imbere yayo hari ubusitani bwiza bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti.

Icyumba gifite amakaro y'umweru, gisizwe irangi ry'umuhondo, gifite inzugi zigizwe n'ibirahuri by'umukara, gikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Icyumba cyiza gitangirwamo serivisi z'ubucuruzi harimo urumuri n'abantu benshi higanjemo abagore, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umukara.

Ibyumba by'amashuri byubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabyo hari abantu benshi, higanjemo abahagaze ndetse n'abicaye, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu.

Imbere y'ibyumba by'amashuri byubakishijwe amatafari ahiye, bifite amabati y'ubururu, hari abantu benshi higanjemo abana n'abagore.

Ikigo nderabuzima kiza, cyubakishijwe amatafari ahiye, kicayeho abagore n'abana bategereje serivise z'ubuvuzi, ndetse n'umugore uhagaze.

Imbaga y'abantu nyamwinshi y'abantu bicaye ndetse n'abahagaze higanjemo abagabo n'abagore bakuze, harimo umugore ufite umusatsi w'umukara wambaye marinette ndetse n'umupira w'umweru, afite ikaramu mu kiganza bari kwandika.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto. Harimo urumuri ndetse n'umugore uhagaze, wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'umugore ufite imisatsi y'umukara ndetse ufite n'ikarita mu ntoki.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo amatara amurika ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'amafu.

Inzu y'ubucuruzi, irimo urumuri, isizwe irangi ry'icyatsi, higanjemo ibicuruzwa birimo inanasi, amaronji ndetse n'inyanya.

Icyumba kinini cyane gifite amakaro ndetse na purafo by'umweru, kirimo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibyo kurya ndetse n'udukoresho twifashishwa mu guhaha.